Mu bigo by'amashuri abanza usanga higaragaza, usanga hari ibishushanyo bitandukanye, kuko babikoreraho ubushakashatsi bakabikoreraho kugira ngo babereke, kuko baba bakeneye kubireba kandi babibonesha amaso.

Abakanishi iyo bari gukanika baba bambaye imyenda y'akazi, bagakanika neza nk'abanyamwuga babyigiye, bafite ubuhanga n'inararibonye.

Mu cumba bigiramo mashini harimo abarimu, harimo mashine n'intebe buri muntu yicaraho na mashine ye, n'aho barebera amashusho hometse ku gi.

Abanyeshuri bo muri segonderi bo mu mashuri yisumbuye, bakunda gukora ubushakashatsi cyane, kuko baba bashaka kumenya byimbitse ibyo biga, ugasanga bagiye mu nzu y'ubushakashatsi, bari gukora ibintu bitandukanye, ugasanga buri wese ari kuvumbura, ugasanga biramushimishije kandi aranezerewe, kubera ibyo ari kubona, atari azi ko bibaho.

Abanyeshuri bari kwiga imashini z'ubudozi aba ari benshi cyane ugasanga buri wese afite imashini ye ariyicaye. Ugasanga buri wese afite icyari gukora bitewe n'igihe agezemo, ugasanga bamwe bari gukata, ugasanga bamwe bari kudoda, ugasanga bamwe bari kureba, ugasanga bamwe bari kwiga uko babigenza, ugasanga buri wese arahuze bitewe n'icyo ashaka kumenya.

Mu mashuri yisumbuye, abanyeshuri usanga bari kwiga imyuga, ugasanga bari kwiga ubumenyi n'ikoranabuhanga, ugasanga barimo kubaza, ugasanga afite nk'akuma gakata imbaho, ugasanga afite n'akuma gakata ibyuma, ugasanga bari gukora, buri wese afite icyo ari gukora, mwarimu ari kwigisha, ugasanga buri wese ari...

Abanyeshuri bari ku ishuri, ku kigo cy'amashuri baba batandukanye. Hari ababa biga mu mashuri abanza n'abiga mu mashuri yisumbuye.

Abanyeshuri bari kwiga ikoranabuhanga，bari kumwe na tica wabo agenda aberekera uko babikora kuri mudasobwabwa.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye usanga biga bazi ibyo bakora, ugasanga bariga baritonze, mwarimu ariko kubereka icyo bakora cyangwa ibyo bavuga, ugasanga barakurikiye nubwo atari bose, ariko abenshi usanga bazi ibyo bakora no kwiga babishoboye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba babona kandi bareba kuko baba ari bakuru kandi bazi icyabajyanye ku ishuri. Iyo bari mu ishuri bigira mu ikoranabuhanga buri wese aba areba ibyo mwarimu akora, kandi ibyo atumamva agasobanuza kuko buri wese aba afite mashine aramera.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, usanga biga ibintu byinshi bitandukanye, ugasanga bagiye mu nzu y'ubushakashatsi, bari gukora ibintu byinshi, bari kuvumbura. Ugasanga birabashimishije kandi bibateye n'ishema n'umurava wo gukomeza kwiga kugira ngo bakunde bamenye byinshi n'ibyo batari bamenya.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye ahantu bigira ubukanishi haba higaragaza, kuko uhasanga ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, by'ubukorikori. Ugasanga barakora ubushakashatsi, ugasanga iyo nzu bigiramo cyangwa ishuri, ugasanga hari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga gusa gusa, akenshi ari byo byibereyemo.

Ahantu bigira ubudozi, kudoda n'imashini usanga hari imashini nyinshi zitandukanye ukahasanga hari ikibaho bandikaho ukuntu bapima imyenda, iyo mwarimu ari kwigisha uko badoda usanga abaha n'ibyo bandika, kugira ngo bazabisubiremo bamenye ukuntu badoda cyangwa uko bakata, ugasanga bameze neza cyane ugiye kwigayo agakurayo umusaruro ushimishije.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye biga ibintu byinshi cyane, ugasanga babihaye umwanya ugasanga bafite kubikurirana neza kuko baba bazi icyo bakora neza, kandi ugasanga barabikunze kuko buri wese aharanira kumenya neza icyo yagiye kumara, ugasanga bacyuye umusaruro ushimishije kuko buri wese aba ashishikajwe n'icyamujyanye.

Abanyeshuri bari muri laboratwari bari kwiga ibijyanye n'uruvange gw'amavuta, bari kumwe na mwarimu wabo bari kureba ibyo akora.

Abanyeshuri bari mu mashuri yisumbuye baba bafite byinshi byo kwiga n'ibyo gukora, iyo bagiye mu nzu y'ikoranabuhanga bagafata ibyuma byabo bakareberamo, mwarimu akabereka ibyo bari kubona n'ibyo bagomba gukora usanga bibashimishije kandi ari byiza, bagakuramo ibintu by'ingenzi kandi bibafitiye akamaro.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bari kwiga ibijyanye n'ubudozi usanga ari benshi cyane. Buri wese yambaye iniforume impuzankano, ugasanga ni benshi kandi buri wese yitabiriye akazi, ari gukora ibyo agomba gukora neza, kandi n'abarimu babo ugasanga barimo baraberekera ibyo bagomba gukora, buri wese akabikora neza abishyizeho umutima, kugira ngo abikurikize uko yabibwiye.